Ibi ni ibimera bivamo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Bwa kinyarwanda.

Ndabona ibuye ryamezemo ibyatsi, risa naho riri ahantu hataba abantu.

Ndi kubona ibimera bivamo imiti, ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo bwa kinyarwanda.